Inama ihuza abayobozi b'inzego zitandukanye, ndetse n'ibigo bitandukanye, mu kuganira kubintu bitandukanye bishobora gufasha umuturage.

Inama yahuriwemo n'abaturage muri rusange mu gukangurirwa gukora ibintu runaka yaba kuba bakwitabira, kwishyura ubwisungane mu kwivuza cyangwa mu bundi bufasha butandukanye ariko bikaba bifitanye isano n'ibikorwa bya leta muri rusange.

Abayobozi bahuriye mu nama ndetse bakaba bari kuganira ku bintu bitandukanye bishobora gufasha abaturage muri rusange nuko babishyira mu bikorwa.

Ihuriro ry'abaturage mu gushyigikira irahira rya bamwe mu bayobozi b igihugu cyangwa b'inzego zitandukanye muri leta, kandi baje gushyigikirwa mu irahira ryabo.

Bamwe mu bayobozi b'inzego zitandukanye, harimo abashinzwe kwita ku baturage mu buryo rusange babaha ubufasha butandukanye ndetse n'abandi bashinzwe kwita ku mutekano wabo muri rusange.

Bamwe mu bakora mu nzego zitandukanye zaba iz'ubuyobozi cyangwa mu bindi bintu bitandukanye, aho bahuriye hamwe mu gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye bahora bazirikana umunsi bafatiye iyi foto kandi bazirikane n'icyatumye bayifata.

Inama yahurije hamwe urubyiruko ndetse n'abikorera bari kuganira ku byerekeranye n'ikoranabuhanga rishobora guteza imbere urubyiruko cyangwa abaturage muri rusange ndetse n'igihugu muri rusange.

Inama ihuriwemo n'abantu batandukanye bari kwiga ku bibazo bitandukanye cyangwa ibitekerezo bitandukanye by'umwihariko ibifitiye abaturage akamaro, yaba ibyerekeranye na leta cyangwa mu ma amategeko.

Inama yahuriwemo n'abayobozi runaka mu kugira ibyo baganira bishobora gufasha igihugu kandi bigateza imbere n'abaturage muri rusange kandi bigatuma nabo ubwabo barushaho gukorana neza mu mirimo yabo.

Inama iri guhurirwamo n'abayobozi batandukanye yaba abashinzwe umutekano, ndetse n'abashinzwe ibindi bintu bitandukanye muri leta aho bari kwigira ku byafasha abaturage.

Umwe mu bari mu nama uri gusobanurira abari kumwe nawe cyangwa abamukurikiye uburyo butandukanye bushobora kwifashishwa mu bintu bitandukanye, kandi bikaba bigaragara neza ku buryo abamukurikiye babasha gusobanukirwa ibyo ashatse kuvuga.

Inama ihuriwemo n'abantu batandukanye, yaba abari kuganira ku bintu bitandukanye, bishobora gufasha urubyiruko muri rusange, cyangwa abaturage muri rusange, kandi bakabasha kurushaho kwitabira, ibikorwa bya leta.

Inama ihuza abakozi bo mu kigo runaka, bakaganira ku bibazo ndetse n'ibisubizo bibereye abaturage muri rusange, hanitabwa ku mutekano wabo rusange.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe bari mu nama, kugirango bigire hamwe imikorere itandukanye n'uburyo bashobora gutangamo ubufasha ku baturage muri rusange.

Icyumba gikorerwamo inama aho abakorera mu rwego rushinzwe amatora bari kuganiriramo.

Abakozi b'ikigo gishinzwe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange hamwe n'ibinyabiziga, aho bateraniye hamwe mu nama.

Inama ihuza abayobozi cyangwa abaturage muri rusange, mu kwita ku bigenewe abo bayobora cyangwa ibikenewe mu miyoborere yabo.

Inama ihuriwemo n'urubyiruko rutandukanye bakaba bateraniye ahakinirwa imikino rusange urugero nk'imipira ariko bakaba bari mu nama iganirwaho ibintu bitandukanye bishobora kubateza imbere nk'urubyiruko.

Ahahuriye abantu batandukanye mu nzego z'abikorera, cyangwa abakozi ba leta mu kuyigira hamwe ingingo zitandukanye mu buryo banoza imikorere yabo ndetse n'abaturage muri rusange.

Inama yahuriwemo n'abantu batandukanye, baba abayobozi, yaba abikorera ndetse n'abakorera ibigo bya Leta, mu kwiga ku bintu bitandukanye bishobora gufasha umuturage.

Inama yahuriwemo n'abayobozi batandukanye, kugira ngo baganire ku bintu bitandukanye by'abashobora gufasha igihugu muri rusange, cyangwa abaturage muri rusange, ndetse n'urubyiruko.

Ihuriro ry'urubyiruko ndetse n'abagore muri rusange, mu nama ibafasha kuba baganira ku bibazo runaka, byagera ku bagore ndetse n'urubyiruko muri rusange, n'uburyo bashobora kubyirinda bagafasha n'abangavu mu gihe baba bagezemo kigoye.

Itsinda ry'abantu bake kandi batandukanye, bicaye bari kuganira ku kintu kimwe gishobora kubateza imbere cyangwa kikaba cyafasha muri rusange iterambere ry'abaturage.

Inama ihuriwemo n'abantu batandukanye mu kwiga ku mikorere cyangwa imikoranire y'igihugu no gufasha abaturage.

Inama yahuriwemo n'abari ndetse n'abategarugori mu kuganira ku bintu bishobora kubateza imbere bigiye bitandukanye, ndetse n'uburyo bashyigikira ibikorwa by'amatora.

Inama yahuriwemo n'abayobozi batandukanye mu kwiga ku bintu byafasha abaturage ndetse n'ibyakomeza guteza imbere igihugu muri rusange, ari nako bareba ibibazo nuko babikemura.

Ahakoraniye abaturage benshi, b'urujya n'uruza mu mirimo itandukanye, bari mu nama iri kuganirwaho muryo bitandukanye ndetse n'ibintu bitandukanye bari kuvugaho.

Ahatangirwa ubusobanuro runaka mu bihereranye no kwishyura imisoro rusange ku baturage, haba abafite ibikorwaremezo bibanditseho, ndetse n'imitungo rusange.

Ibisabwa n'umuturage kugira ngo abashe kuba yabona ibyangombwa, anyuze ku rubuga rwashyizweho na leta rushinzwe gufasha mu kubona ibyangombwa byabaye ibya burundu, cyangwa kumenya amakuru ku byerekeranye n'ubutaka cyangwa n'ubundi bufasha bugiye butandukanye.

Iyamamazwabikorwa ku bantu bifuza kugerageza amahirwe yabo mu bintu bitandukanye kandi bakagaragaza impano zabo zigiye zitandukanye.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, aho abagenzi baba bisanzuye bashobora kuba bakoresha ibikoresho byabo bya eregitoronike, kandi hashoboka ko habonekamo murandasi, ku buryo byorohereza abarimo kuba bakwisanzura mu rugendo barimo.

Uburyo bwashyiriweho umuturage mu kuba yamenya ibyangombwa nkenerwa, kugira ngo abe yasura ibyiza bitatse igihugu bitandukanye kandi byerekeranye n'ibyo yifuza, mu buryo bufite isuku kandi bwizewe.

Igaragazwa ry'ibihangano ndetse n'iyamamazwa ryabyo, ku bantu bifuza kugaragaza impano zigiye zitandukanye, by'umwihariko ku bashobora gukora ibihangano cyangwa abanyabugeni.

Iyamamazwa ry'inama y'igihugu runaka ,ishinzwe mu guhana ibitekerezo byatuma ubutegetsi bwite bwa leta bubasha kuba bwagira icyo bugeraho ,ndetse bukanagira icyo bugezaho abaturage mu iterambere.

Uburyo bwashyizweho n'ikigo runaka, kugira ngo bufashe umuturage kuba yamenyekanisha imisoro y'ipatante.

Icyangombwa gitangwa binyuze ku ikoranabuhanga kigahabwa umuturage aho aba ari gushaka ubufasha mu byerekeranye na Leta cyangwa amategeko kandi akakibona mu buryo bwihuse.

Ahatangirwa ubufasha by'umwihariko ku bantu badakoresha ururimi rw'ikinyarwanda mu kumenya uko bashobora gusora by'umwihariko basorera imitungo yabo itimukanwa.

Iminara ishyirwa hejuru y'ibisenge kugira ngo ifashe abaturage mu itumanaho ritandukanye, rihuza agace kamwe n'akandi mu bya murandasi.

Ahantu habugenewe hashyizwe ibikorwa remezo by'umwihariko ibyerekeranye n'iminara kandi miremire ifasha mu by'itumanaho, haba mu bigo bya leta ndetse n'abikorera, ndetse n'abaturage muri rusange kugira ngo byoroshye itumanaho.

Ahateraniye urubyiruko mu bikorwa bitandukanye bari gukora cyangwa bakaba bari kwiga uburyo butandukanye bwo gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi byizewe.

Ikigo gishinzwe imyigire mu gihugu kandi kigafasha amashuri muri rusange, kuba babona ibyangombwa nkenerwa kugira ngo bafashe abanyeshuri bagana ibyo bigo.

Uburyo bwashyizweho n'Ikigo Gishinzwe Imisoro n'Amahoro, kugira ngo bworohereze umuturage kuba yamenya, cyangwa yashobora gushyiraho konti ye, akayihuza n'uburyo imisoro azayishyuramo.

Iyibutswa ku baturage, by'umwihariko ku bihereranye n'ibiciro, bya gaze, bitangwa n'ikigo gishinzwe, igenzura ry imikorere rusange mu gihugu.

Uburyo bwashyizweho mu kureba uko imisoro yawe ushobora kuyimenya ukanamenya n'uko wayitanga wifashishije urubuga rwashyizweho.

Gukorerwa ibintu bitandukanye by'umwihariko batanga ubufasha mu byerekeranye ni ikoranabuhanga byaba ibyerekeye kubona amafaranga yawe wifashishije konti cyangwa ukaba wabona ibyangobwa ukoresheje urubuga rwabugenewe.

Igiceri cy'u Rwanda cyanditseho banke nasiyonari di Rwanda, bigaragara ko cyakozwe mu mwaka w' igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, kandi iki giceri gishushanyijeho igitoki bigaragara ko mu Rwanda haba insina nyinshi.

Uburyo bwashyiriweho umuturage mu gufungura konti, akabona n'ibisabwa, ari na ko atanga imyirondoro ye yose, kugira ngo babashe kuba babika amakuru ye yibanze.

Uburyo bwashyiriweho umuturage, mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza akoresheje igikoresho cye ngendanwa cya eregitoronike, bitabaye ngombwa ko ajya gutonda umurongo.

Uburyo bwashyiriweho umuturage kuba yakoresha igikoresho cye cy'ikoranabuhanga akaba ashobora kuba yakwinjira mu rubuga rwagenewe abaturage mu kuba bakwishyura bifashishije ikoranabuhanga bishyura imisoro yabo.

Iyamamazwa ni iry'uburyo umuturage ashobora kwishyura cyangwa akamenya ideni afite ku byerekeranye n'imisoro ndetse agahabwa n'amakuru atandukanye kuri ibyo bintu yifuzaho ko bamufasha.

Urubuga rwashyiriweho kurengera ibidukikije n'amashyamba ku baturage kugira ngo bamenye byinshi kubihereranye n'ibyiza byo gutera ibiti n'amashyamba muri rusange.

Amafaranga y'amadorari azinze mu mifungo akaba ari imifungo itandatu iyi mifungo uyibonye yaguhindurira ubuzima rwose kuko amadolari ni amafaranga menshi cyane kandi avunjwa amafaranga menshi uyashyize mumanyarwanda rero uwayaguha wahita ugira ubuzima bwiza.

Uburyo bwashyizweho kugira ngo umuturage abashe kumenyekanisha umusoro, by'umwihariko yifashishije igikoresho cye cya elegitoroniki ngendanwa.

Inzu ikozwe mu byuma kandi yoroshye kuba yavanwa ahantu hamwe ikajyanwa ahandi iteretse ahantu runaka kandi heza hari ubusitani bwiza, ishobora gukorerwamo ubucuruzi butandukanye, ku buryo uhagana wese ashobora kubona ubwo bufasha kandi bwizewe.

Umunara muremure cyane ukozwe mu byuma wifashishwa mu itumanaho ry'igice kimwe gihura n'ikindi cyangwa ukifashishwa mu ikoranabuhanga rigiye ritandukanye by'umwihariko guhuza agace kamwe ndetse n'akandi.

Amazu akorerwamo ubucuruzi butandukanye yaba ubwo gufasha abaturage mu gutunganya imyenda yabo, cyangwa mu guhabwa ubundi bufasha ubwo aribwo bwose haba mu byo kurya mu byo kunywa, ndetse n'ibyerekeranye no guhabwa impapuro zerekeranye n'ibya leta muri rusange.

Uburyo bwashyiriweho umuturage mu kuba yakwiyandikisha kugirango abone ibyangombwa bya leta binyuze kuri murandasi bitabaye ngombwa ko ajya ku biro bibishinzwe.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwashyizweho n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, kugira ngo byorohereze umuturage kuba yakwishyura cyangwa akagenzura uburyo imisoro ye atanga igendamo cyangwa uko yakwishyura yifashishije ikoranabuhanga rigezweho.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibintu bitandukanye haba mu by'itumanaho mu kohereza no kwakira amafaranga mu buryo byohereza uhagana kuba yabona ubufasha bwihuse.

Ipoto nini cyane iriho abakozi b'ikigo runaka, bashinzwe kwita ku byerekeranye n'imiyoboro y'amashanyarazi, ku buryo bidahungabanya ibikorwaremezo runaka.

Igikoresho cyabugenewe mu kugabanya cyangwa kongera umuriro uhabwa abaturage cyangwa ujya mu bindi bikorwa remezo urugero nk'inganda mu rwego rwo kwirinda inkongi z'umuriro.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu bari kunyuranyuranamo bajya mu mirimo yabo ya buri munsi, hakaba n'ibyapa byamamaza ikigo runaka gishinzwe itumanaho mu gihugu, ndetse n'amaduka atandukanye atangirwaho ubufasha butandukanye bitewe n'ibyo umuturage akeneye.

Amapoto abiri yegeranye, ashinzwe gutanga ingufu z'amashanyarazi mu baturage kandi mu buryo bwihuse, bunorohereza abaturage kuba bayafata.

Gukorerwa n'ikigo gishinzwe gutanga ingufu z'amashanyarazi ku baturage, ndetse hakaba hanakorerwa igenzurwa ry’ingufu z'amashanyarazi ritangwa mu baturage.

Ibikoresho bikozwe mu byuma bikomeye cyane bishinzwe gufata imiyoboro y'amashanyarazi kandi ikagena ishobora kuba yajyanwa mu baturage kugira ngo hirindwe ibiza by'umwihariko umuriro mwinshi.

Umuhanda muremure usukwamo n'indi mihanda ikaba inyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ku buryo hirindwa umuvundo ndetse n'abanyamaguru bakamenya ibice byo kwambukiramo, hakaba n'ibindi bimenyetso byabugenewe bifasha abatwaye ibinyabiziga kumenya igihe cyo guhagarara n'igihe cyo gukomeza kugenda mu kwirinda umuvundo.

Ibikorwaremezo bifasha abaturage by'umwihariko abatwaye ibinyabiziga mu kumenya igihe cyo guhagarara bagaha inzira abagenzi cyangwa bagakomeza kugenda, hirindwa umuvundo wo mu muhanda.

Ibikorwaremezo mu baturage aho buri gace bashyiramo imashini cyangwa igikoresho gikozwe mu byuma, gifasha kugabanya cyangwa kikongera umuriro abaturage bashobora gukoresha mu rwego rwo kwirinda impanuka y'inkongi z'umuriro.

Ibikorwa remezo aho buri ku mihanda hashyirwaho amatara, kugira ngo afashe abaturage mu kuba babona neza aho bajya kandi binafashe n'ibinyabiziga mu kuba babona imbibi z'imihanda, ari na ko harindwa umutekano w'abaturage muri rusange.

Ibikorwa remezo bitandukanye mu mihanda myiza usa neza kandi ufite isuku, ndetse n'ipoto ifasha abaturage kubona umuriro mu buryo buborohewe kandi bugezweho bwihuse.

Ibikorwaremezo mu baturage aho hashyizweho amatara mu muhanda ndetse n'imiyoboro ishinzwe gutwara amashanyarazi mu baturage kugira ngo haboneke umutekano.

Ibikorwa remezo by'umwihariko ibitanga umuriro w'amashanyarazi, aho hashyirwa amapoto, kugira ngo abashe gufata imiyoboro amashanyarazi anyuramo, ku buryo bishobora kurinda abaturage, cyangwa abantu banyura hafi aho ngaho kuba, bahura n'impanuka y'ifatwa ry'umuriro.

Ibikorwa remezo aho buri muturage wese ashoboye kubona umuriro mu buryo bumworoheye, kuko begerejwe imiyoboro y'amashanyarazi kandi ifite umutekano ku buryo nta muntu yakwangiza.

Ibikorwa remezo mu baturage aho hari amapoto ashinzwe gutanga imiriro ku baturage mu buryo bwihuse ndetse hakaba hari no kubakwa inzu nziza kandi yubatswe mu buryo bugezweho kugira ngo izafashe abaturage mu kubona ubufasha bugiye butandukanye.

Ipoto nini kandi ndende ikozwe mu byuma ikaba iriho igikoresho cyabugenewe mu kugabanya cyangwa kikongera ingano y'umuriro woherezwa mu baturage hirindwa impanuka izo arizo zose zishingiye ku mashanyarazi.

Ahantu heza kandi hasa neza cyane, hafite isuku aho umuntu ashobora kugera akumva ari sanzuye, bitewe n'uburyo yubatse kandi hakaba hatangirwamo ubufasha butandukanye wenda bw'ubuvuzi cyangwa ubundi bufasha ku baturage.

Inzira yabugenewe inyurwamo n'abantu baba bagenda cyangwa bagaruka, ku buryo baba bizeye umutekano waho, kuko batanyagirwa cyangwa ngo bahure n'izuba rikabije mu ngendo zabo.

Inzu nziza kandi yubatswe mu buryo bugezweho ifite amagorofa atandukanye, aho ushaka gusangamo ibintu bitandukanye urugero nk'uburyomo bwiza cyangwa inzu ushobora kuba wabamo mu gihe runaka kandi hakaba hafite umutekano.

Ubusitani bwiza cyane kandi bufite isuku ndetse n'ibiti bisa neza bituma haboneka akayaga hakaba hari n'indi nzu ikorerwamo ibintu bitandukanye yaba amacumbi cyangwa ubucuruzi butandukanye ndetse n'ubundi bufasha butandukanye ku baturage.

Umuhanda ufite ubusitani bwiza n'ibiti bitanga umuyaga mwiza, iruhande rw'aho hakaba inzu itangirwamo ubufasha ku babyeyi baba ababyaye ndetse n'abana babo.

Inyubako ikorerwamo ibintu bitandukanye byaba ibyerekeranye n'ubuvuzi hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu kandi hakaba hasa neza ku buryo hari n'ibyapa birangira umuturage uhagana amerekezo ashobora kunyuramo kugira agere ahashaka cyangwa aho agiye.

Inzira y'abanyamaguru banyuramo bajya ahantu hamwe bava ahandi, hakaba hari hafite ubwirinzi bumeze neza ku buryo ntawushobora kuhagirira impanuka.

Ahatangirwa ubufasha bwa leta ku bihereranye n'iby'amategeko cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose leta ishobora kugufasha hakaba hagaragazwa n'ibendera ry'igihugu kandi ri bikaba byorohereza umuturage kuba yahamenya kandi akaba yahagana bakamufasha mu buryo bworoshye.

Abaturage bishimira uburyo bwashyizweho na leta mu byerekeranye no kwivuza, baba bavuza abana babo cyangwa bo ubwabo bari kwivuza.

Ahafashirizwa abarwayi baje kwivuza ariko bakaba barembye ku buryo bahabwa ubufasha cyangwa ubutabazi bw'ibanze heza kandi hasa neza, habafite ibitanda bigezweho ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga bifasha umurwayi kuba bamenya icyo arwaye kandi mu gihe kihuse.

Ahantu heza hari inzu nziza cyane isa neza ifite ubusitani bwiza kandi hari isuku ndetse n'umutekano ku buryo uhagana wese yishimira ubufasha bahamuhera.

Abantu bagiye batandukanye bambaye imyenda yo mu gikoni bisa nk'aho barimo gutemberezwa berekwa uko ibintu bikorwa kandi bakambara imyenda yabigenewe kugira ngo batanduza cyangwa ngo bangize aho bagiye cyangwa bahasigage umwanda.

Umuturage watawe muri yombi n'inzego z'umutekano, kugira ngo harindwe umutekano w'abaturage muri rusange, n'igihugu cyose hamwe.

Ahagororerwa abaturage rusange bagiye bagera aho bahurira n'ibikorwa bitari byiza rero bakagororerwa hamwe kugira ngo bongere basubizwe ku murongo bagaruke mu baturage.

Umwe mu bagabo batawe muri yombi n'inzego z'umutekano kandi bakaba bamucungira hafi kugira ngo atagira ikintu runaka ahungabanya mu rwego rwo kurinda abaturage ndetse n'igihugu.

Iyamamazabikorwa bya leta mu kwerekana uwafashwe cyangwa wa watawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano mu gihugu, bikagaragaza igihe yafatiwe ndetse n'icyo ashinjwa.

Itegeko nshinga rigaragaza irwanywa rya ruswa ryashyizweho umukono n'umukuru w'igihugu, ndetse n'abagize inteko nshinga mategeko, kugirango hirindwe ibikorwa bibi.

Ahakorerwa igororwa ry'abaturage baba bafashwe n'inzego z'umutekano kugira ngo babasubize ku murongo kandi bongere bagaruke mu buzima busanzwe bafite indangagaciro nziza.

Inteko rusange ndetse n'inkiko gacaca byashyiriweho abaturage mu kuba bakemura ibibazo bafitanye hagati yabo, bitabaye ngombwa ko bajya mu nzego zo hejuru.

Umwe mubafunze akaba ari kuburanishwa ndetse akaba ari kumwe na bamwe mu bantu bamuhagarariye mu by'amategeko bamufasha kuburana urubanza arimo.

Abashinjacyaha cyangwa ababuranira ushinjwa icyaha mu gihe bari mu rukiko aho urega cyangwa uregwa aba ari kwisobanura ndetse umuburanira mu by'amategeko akaba ari hafi mu kumufasha.

Inama rusange y'abaturage aho buri muturage wese aba afite uburenganzira bwo kuba yamanika akaboko, akaba yabaza cyangwa agatanga igitekerezo kandi ubuyobozi bukaba bwagisubiza cyangwa bukaba bwashyira mu bikorwa igitekerezo atanze.

Abaturage bahagarariye abandi mu nzego z'ibanze za Leta, kugira ngo bajye babafasha kuba bageza ibibazo byabo cyangwa ibitekerezo byabo ku nzego ziri hejuru yizo barimo.

Ikigo gikoranyirizwamo imfungwa, hakaba hari abagororwa bateraniye hamwe, bakaba bari kuganira mu bintu bitandukanye ndetse n'ababarindiye umutekano.

Abagororwa bari kumwe n'ababacungiye umutekano, kugira ngo babashe kugezwa iyo bagiye , haba icyumba cy'iburanishwa, cyangwa ahandi hantu runaka.

Kabeza mu mujyi wa Kigali hari inzu nziza cyane irimo ibikoresho byiza bisa neza ikaba ifite inzu nini cyane ikagira ibyumba binini cyane.

Abagororwa bicaye ahantu hamwe kandi bishoboka ko bari kuganira ku cyabafasha, kongera gutera imbere kandi bicaye batuje bameze neza bigaragaza ko ntaki kibazo runaka bafite.

Bamwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu by' umwihariko wo mu muhanda bahuriye hamwe mu nama kugira ngo barebe icyatuma umutekano urushaho gukomera kandi ukizerwa

Igikoresho cyabugenewe mu kuzimya inkongi z'umuriro kandi kikaba gikozwe mu buryo kibika neza ibintu bikirimo kugira ngo bitangiza abaturage kandi bigakoreshwa mu gihe cyabugenewe.

Icyapa kinini kandi kiri ahantu hagaragarira buri muntu wese cyerekana ibitaro by'ikigo gishinzwe kwita ku buvuzi cyagenewe abaturage ku bufatanye bw'abashinzwe umutekano mu gihugu.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya cyangwa guhagarika inkongi y'umuriro, aho yaba itejwe hose, haba mu nyubako cyangwa hanze yayo cyangwa mu mimerere y'indi itandukanye.

Umuhanda usa neza unyurwamo n'ibinyabiziga, iruhande rwaho hakaba hari inzu ndende kandi yubatswe mu buryo bugezweho ndetse n'abantu bari kujya mu kazi kabo ka buri munsi, uko bigaragara akaba ari ahantu hasa neza cyane kandi hafite isuku.

Ikinyabiziga gikoreshwa mu mutekano w'igihugu, kikaba gikoreshwa n'abashinzwe umutekano by'umwihariko abakora umutekano rusange mu muhanda.

Ibikoresho byabugenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro, kandi bigafasha umuturage mu kuba yahashya mu buryo bwihuse iyo nkongi, bikanarinda n'ibikorwa remezo hakubiyemo inyubako nini ndetse n'intoya.

Ikibuga cyagenewe gutangirwamo imyitozo ku bantu bifuza gutwara ibinyabiziga mu buryo rusange, hakaba hari na bamwe mu bashinzwe umutekano bo mu muhanda bari kubafasha kureba niba bujuje ibisabwa kugira ngo bahabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga mu buryo rusange.

Ushinzwe umutekano ari kumwe n'umuturage, bariho baganira ku bintu bitandukanye byaba ibyerekeranye n'akazi ke cyangwa ibyo ashinzwe gukora mu mutekano wo mu muhanda.

Urujya n'uruza rw'abaturage bari mu mirimo yabo ya buri munsi, yaba ibafasha mu buryo bwo kubona ibyo kurya ndetse n'umwe mu bashinzwe umutekano mu muhanda akaba ari kwita ku mutekano w'aho.

Ahagenewe gushyira igikoresho by'ubwirinzi bw'inkongi z'umuriro mu mazu, yaba ay'ubucuruzi cyangwa akorerwamo ibindi bikorwa bitandukanye.

Ibinyabiziga mu muhanda bigenda neza byisanzuye, kubera ko hari ushinzwe umutekano wo mu muhanda kandi akaba bizeye umutekano wabo.

Igikoresho cyabugenewe gishinzwe gufasha abaturage cyangwa gishyirwa mu nyubako, kugira ngo igihe habonetse inkongi y'umuriro idakabije bahite bacyifashisha kugira ngo bahashye iyo nkongi.

Icupa rishyirwa ahantu hagaragara kandi hashobora kuba hagerwa n'abantu mu buryo bwihuse kugira ngo rifashe abahuye n'ikibazo cy'inkongi y'umuriro kugira ngo bayihashye hakiri kare itarafata inzu yose.

Igikoresho cyabugenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro, gishyirwa ahantu hose mu nyubako kandi bigafasha umuturage mu kwirinda hakiri kare, ku buryo iyo nkongi itagera ahantu hose.

Igice cyagenewe kuba cyatanga ubutabazi bw'ibanze, mu gihe habayeho inkongi y'umuriro, ku buryo abahaturiye bashobora kuba babona ubwo butabazi vuba, inkongi y'umuriro itaraba nyinshi cyane.

Ibikoresho bibiri bishyirwa ahantu hagaragara kandi hashobora kuba hakorohera umuntu kuba yabifata mu buryo bwihuse mu gihe agize impanuka, by'umwihariko inkongi y'umuriro iba kugira ngo agikoreshe kandi kimworoheye.

Umukuru w'igihugu ahagararanye n'undi uhagarariye igihugu mu bihugu by'amahanga, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso ndetse bakaba ari hagati y'ibendera ry'igihugu cyabo ndetse n'ikirangantego kigaragaza amahoro ndetse n'ubwumvikane mu gihugu cyabo.

Ahahuriye urujya n'uruza rw'abaturage mu iyamamazwa ry'umukuru w'igihugu cyangwa ishyaka runaka, bakaba banafite amadarapo, ingofero. Mbese ikintu icyo ari cyo cyose kigaragaza ko bashyigikiye iryo shyaka cyangwa uwo muntu uri kwiyamamaza.

Amabara y'ibendera ry'ishyaka runaka hano mu Rwanda ari ryo psd rikaba ari rimwe mu mashyaka ari mu gihugu cy'u Rwanda.

Urujya n'uruza rw'abaturage bahuriye hamwe mu bikorwa bitandukanye, byaba ibyerekeranye n'iby'igihugu cyangwa iby'abantu bwite ku giti cyabo.

Ahahuriye abantu mu nama irimo abashyigikiye ishyaka runaka mu by'ubutegetsi, wenda bakaba bari kuganira ku byafasha abaturage muri rusange.

Ahateraniye abaturage bariho baganira cyangwa bajya inama, ku byateza imbere ishyaka bashyigikiye cyangwa igikorwa runaka bahagarariye mu rwego rw'abaturage muri rusange.

Umwe mu bari kwiyamamariza mu kuba bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu aho ari kwiyamamaza avuga imigabo n'imigambi mu gihe azaba yabonye uwo mwanya.

Bamwe mu bashyigikiye ishyaka rimwe mu gihugu runaka, aho bashyigikiye umukandida utangwa n'iryo shyaka kandi bakaba bishimira cyane kuba ari bamwe mu banyamuryango b'iryo shyaka.

Inama yahuriwemo na bamwe mu bayobozi ndetse n'umukuru w'igihugu, mu kuganira mu cyateza imbere igihugu muri rusange ndetse n'amajyambere y'uko bafasha abaturage babo.

Ahateraniye abantu benshi bashyigikiye ishyaka runaka umukuru w'igihugu akomokamo kandi baje kumushyigikira kugirango ababere umuyobozi mwiza.

Umukuru w'igihugu uri kwiyamamaza, ndetse yereka abamushyigikiye ko bari kumwe kandi ko yishimiye kuba ahari bari kumwe bo n'abo ayoboye.

Umukuru w'igihugu ari kumwe na bamwe mu baturage bamushyigikiye kandi bashyigikiye ishyaka ahagarariye mu kumwereka yuko bamuri inyuma kandi ko bamukunda cyane.

Amabendera agaragaza ishyaka runaka ryo mu gihugu runaka, kandi iryo shyaka rikaba rishyigikiwe n'abaturage benshi cyane. Bigaragaza ko banaryishimira kuba bayoborwa naryo.

Ahakoraniye abaturage benshi bishoboka ko bari mu nama itandukanye ishinzwe kwita ku bintu by'ingenzi abaturage bo muri ako gace bakeneye, cyangwa bakaba bari guhabwa ubufasha butandukanye mu byerekeranye n'ikoranabuhanga ,cyangwa nyuma mu kubereka ibyabateza imbere.

Umuhanda mwiza cyane usa neza ufite isuku ukaba unyurwamo n'ibinyabiziga yaba ibito ndetse n'ibinini hakaba hari n'inzira yabugenewe abanyamaguru banyuramo kugira ngo bave ku ruhande rumwe bajye ku rundi.

Ikinyabiziga, cyagenewe gutwara, imizigo minini kandi iremereye, iruhande rw'aho hariho urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bito, byagenewe gutwara abantu mu buryo bwihariye, kikaba kiri mu mwanya wagenewe guhagararwamo umwanya mutoya.

Umuhanda unyurwamo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, kandi usa neza cyane, hirya yaho hari ibikorwa remezo, urugero amapoto anyuramo umuriro kugira ngo agere ku baturage, ndetse n'amazu akorerwamo ubu ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, kandi bikora akazi kagiye gatandukanye bikaba biri kujya mu byerekezo bitari bimwe, hakaba habonekamo ibitwara abantu ndetse n'ibintu byinshi.

Umuhanda uri kunyurwamo n'ikinyabiziga kizwiho ko cyikorera imizigo cyangwa kigatwara ibindi bintu runaka, ikaba itwaye inka kugira ngo zivanwe hamwe zijyanwa ahandi.

Ahahurira ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, kandi bikorohereza ababigana kuba babona ibinyabiziga bibatwarara aho bagiye mu buryo bworoshye.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga mu muhanda, hakaba harimo n'abaturage bari kujya mu mirimo yabo ya buri munsi cyangwa ahantu hatandukanye kandi bakaba bari kugenda nta muvundo mu buryo buri kuri gahunda.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, iruhande rwaho hakaba hari ikindi gice cyagenewe guhagararwamo n'ibinyabiziga bito bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye, byaba ibitwara abantu mu buryo bwihariye ndetse n'ibishinzwe ubwikorezi mu buryo bwa rusange, aho binyuranamo kandi neza nta muvundo.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, hirya yaho hakaba inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere kandi nziza, itangirwamo ubufasha butandukanye, ndetse n'ibiti bituma haboneka umuyaga mwiza kandi hagasa neza.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga byaba ibiza cyangwa ibigenda ukaba uriho amabara agaragaza imbibi z'umuhanda, ndetse n'inzira y'abanyamaguru bashobora kwambukiramo, niyo abanyamaguru bagenderamo mu rwego rwo kurinda umutekano wabo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga yaba ibitwara abantu ndetse n'ibishinzwe ubwikorezi bw'imitwaro iremereye, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange kandi bikorohereza ufite amafaranga makeya kuba yagera aho agiye kandi urugendo rukamworohera.

Ikinyabiziga gishinzwe kwikorera imizigo myinshi, kiri mu muhanda ndetse n'ibindi binyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Igikoresho kigenewe kwikorerwamo ibintu bitandukanye byaba ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa bifunze mu makarito cyangwa mu macupa ku buryo ubitwara abitwara yumva yisanzuye kandi ntibyangirike.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga mu muhanda, harimo ifite ibiziga bibiri ndetse n'ibinyabiziga rusange, hakaba hari naho abanyamaguru banyura mu hafite umutekano.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, ndetse n'ibyikorera imizigo myinshi, kandi biri mu buryo bwizewe kandi bufite umutekano.

Ikinyabiziga gishinzwe ubwikorezi bw'ibintu, kikaba kiri mu muhanda aho ibindi binyabiziga biri kunyuranamo kandi umuhanda usa neza, ku buryo abahanyura bose bumva bisanzuye.

Ikinyabiziga kimeze neza kandi gisa neza gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, kandi kikaba gifasha mu kuba bagera aho bagiye.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga mu muhanda, hakaba hari n'ahantu ibinyabiziga bijya gufata lisansi kugirango bikomeze urugendo.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara imizigo minini kandi iremereye cyane mu buryo bwa rusange bizwiho nkaza rukururana biri kugenda bisikana mu muhanda kandi bifite umutekano.

Umuhanda unyurwamo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'ibinyabiziga bitwara imizigo mu buryo bwa rusange kandi bufite isuku.

Ibikorwaremezo muri rusange bikubiyemo imihanda, amatara, umuriro ndetse n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho abanyamaguru bashobora kunyura bisa

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byaba ibyikorera imizigo mu buryo bwa rusange byambukiranya n'imipaka ndetse n'ibitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aho abagenzi bagenda bicaye kandi bafite umutekano.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga mu mihanda haba ibitwara abantu mu buryo bwa rusange n'ibitwara abantu mu buryo bwihariye kandi bikaba biri kugenda nta mavundo.

Umuhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, hakaba harimo n'ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aho kiri kunyuraho kimeze neza kandi nta muvundo.

Umuhanda urimo ikinyabiziga kikorera ibintu biremereye ndetse hakaba harimo n'abaturage bari kugenda bagiye mu kazi, hakaba harimo kandi n'ibiti biteye hafi y'umuhanda.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye yaba ibinini cyangwa ibito kandi usa neza, ku ruhande rwawo hakaba hari ibindi binyabiziga bishinzwe ubwikorezi bw'ibintu ndetse n'ibintu byinshi cyane, kugirango bufashe abaturage bakeneye ubwo bufasha bagerezwe ibintu byabo aho byabugenewe.

Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, aho biba bihagaze bitegereje ko abagenzi baza bakabatwara, babavana hamwe babajyana ahandi.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda, cyakorewe gutwara imizigo myinshi, kandi kizwiho ku izina rya Rukururana.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga kandi usa neza cyane, aho uri kunyurwamo n'ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwihariye, ndetse i ruhande rwawo hakaba hari amazu atandukanye amwe akorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga yaba ibigenda cyangwa ibiza hakaba hari ubusitani bwiza ibiti bisa neza bituma haboneka amahumbezi yaba abanyura muri uwo muhanda cyangwa ibinyabiziga biwunyuramo ku buryo bidatera umuvundo .

Ikinyabiziga kigenewe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, kibavana ahantu hamwe, kikabajyana ahandi, bitabaye ngombwa ko bishyura amafaranga menshi.

Ibinyabiziga biri mu muhanda, ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu bari mu kazi kabo ka buri munsi, aho hari ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwa rusange, ndetse n'ibyikorera imizigo mu buryo bwa rusange.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga usa neza kandi ufite isuku ukaba uri kunyurwamo n'ikinyabiziga kigenewe kwikorera ibintu runaka ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu bajya mu mirimo yabo ya buri munsi.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse ku ruhande rwawo hakaba hari uruhererekane rw'ibinyabiziga, byaba ibikoreshwa ubwikorezi bw'imizigo ndetse n'ibindi bigendwamo n'abantu mu buryo bwa rusange.

Ahantu abaturage bicara bari kuruhuka cyangwa bafata ibintu runaka hari intebe zo kwicara kandi hatuje.

Ahakorerwa imyidagaduro itandukanye harimo gukina umupira, kwirukanka, mbese ahakorerwa imikino ngororamubiri kandi ituma abantu bishima.

Ahakinirwa imikino itandukanye umwe muri yo ukaba uzwi nk'uwitwa tenisi ukinishwa agapira bagahanahana kandi bigatuma abantu bari kureba umukino bawishimira kuko baba bari ahantu heza bicaye n'ahantu hameze neza hatagera izuba.

Ikibuga cy'umupira, aho abantu barimo barakiniramo kugira ngo bishimishe kandi barusheho kugorora umubiri wabo, bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ahantu heza kandi hasa neza hubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, hakaba hari n'aho abana bashobora kurererwa mu buryo bwiza kandi bagahabwa ubufasha bakanitabwaho neza.

Icyapa kiburira utwaye ikinyabiziga ko imbere ari imihanda ibiri ihurira muri uwo arimo, kandi ko agomba kuba maso; kikaba kiri ahantu hirengeye kandi hagaragara neza.

Ibyapa biburira abatwaye ibinyabiziga ko imbere hateje akaga hari akazamuko gashobora guteza impanuka kandi ko hari n'ikibuga cyagenewe kunyuraho za rutemikirere.

Umuhanda usa neza cyane hakaba hari ubusitani bwiza busa neza kandi hafite isuku, ndetse hakaba hari n'icyapa gishobora kurangira umugenzi agace ari kwinjiramo cyangwa agace agezemo nyirizina.

Icyapa kiburira utwaye ikinyabiziga ko imbere ye hari umuhanda ugondagonze kandi ko uteje akaga ku buryo agomba kugenda yitonze adahubuka.

Ibyapa biyobora abagenzi ndetse n'abatwaye ibinyabiziga aho berekeza ndetse n'agace bagezemo by'umwihariko ibiyobora ku biro ku biro bishinzwe abaturage.

Icyapa kiburira utwaye ikinyabiziga ko imbere ye agomba kwitonda, kandi ko hari umuhanda uzenguruka, bivuze ko ashobora kugira ibyago agahuriramo n'ikindi kinyabiziga atabaye maso mu buryo atwayemo.

Icyapa cyereka abatwaye ibinyabiziga binini byagenewe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, aho byemerewe guhagarara.

Icyapa cyereka utwaye ikinyabiziga ko agomba kunyura ibumoso bw'umuhanda ko ariho hari inzira yabugenewe yo kunyuramo.

Icyapa gishyirwa iruhande rw'umuhanda ariko aho umuntu utwaye ibinyabiziga ashobora kukibona neza kikaba kimuburira ko imbere y'ibumoso bwe harimo umuhanda ushobora kuba wanyurwamo n'ibinyabiziga kandi ko agomba kugenda ari maso kugira ngo adakora impanuka.

Icyapa kiri iburyo bw'umuhanda aho utwaye ikinyabiziga akibona mu buryo bumworoheye kigaragaza ko imbere hari ikorosi kandi rishobora kumuteza akaga.

Icyapa kiburira utwaye ikinyabiziga ko imbere hari umuhanda ushamikiye ku wo arimo kandi ko agomba kugenda yitonze.

Icyapa kiburira utwaye ikinyabiziga ko imbere ye hari umuhanda iburyo bwe yinjiramo ko agomba kugenda yitonze.

Icyapa kiyobora umugenzi cyangwa utwaye ikinyabiziga aho ari kwerekeza, kikaba kibarizwa ahantu hagaragara, ku buryo kitayobekana kandi kikayobora neza.

Icyapa kiburira umuntu utwara ikinyabiziga ko imbere ye hari umuhanda urimo ikorosi riteje akaga. Bisaba yuko agenda neza, kandi yubahiriza icyo cyapa kiburira.

Icyapa cyerekana kandi kikaburira umuntu utwaye ikinyabiziga ko imbere mu kuboko kw'iburyo bwe hari umuhanda ukomatanyije.

Icyapa kibuza abanyonzi kuba banyura hafi aho, kuko biba bitemewe. Kigenewe abakora ubunyonzi cyangwa abafite ibinyabiziga by'ibiziga bibiri bitari ibya moteri.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda kikaba kiri ahantu heza, hari ibiti bituma haboneka umuyaga mwiza ugatuma ikirere gikomeza gu gusa neza.

Ingo z'abaturage ziri ahantu heza hatandukanye kandi hakaba hari n'umuhanda, ku buryo ibinyabiziga bishobora kuba byagerayo mu buryo buboroheye ndetse n'abaturage bakaba babasha kuba bagenda bava ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo buboroheye.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, yaba ihahiro cyangwa ubundi bucuruzi bwerekeranye n'ibyo abaturage bakeneye muri ako gace, kandi bakaba bizeye neza umutekano wabyo kuko hasa neza kandi hafite isuku n'umutekano.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abaturage muri rusange bibereye muri gahunda zabo. Hakaba hari n'inzu zubatse neza mu buryo bugezweho, ushobora gusangamo ubufasha butandukanye yaba wenda ubw'amacumbi cyangwa ubundi bufasha umuturage ashobora gukenera.

Umuhanda ushashemo amabuye, kandi utuma hasa neza, ndetse n'ibikorwa remezo birimo amapoto atuma abaturage babona umuriro mu buryo bworoshye, ndetse n'ingo zigiye zifite ubusitani bwiza bugiye butandukanye.

Inzu nini kandi ndende, zubatswe mu buryo bugezweho, nziza, zikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byaba ibikorwa bya leta, ndetse n'iby'abikorera ku giti cyabo, aho ababagana bashobora guhabwa ubufasha butandukanye, ku bitewe n'ibyo bifuza.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, hirya yaho hakaba inzu itangirwamo amacumbi ndetse n'ibinyabiziga biri mu mwanya wabyo wabugenewe.

Umuhanda uriho icyapa cyamamaza amerekezo y'aho umuntu agiye yaba utwaye ikinyabiziga cyangwa ugenda n'amaguru ku buryo amenya agace agezemo mu buryo bworoshye.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye hakaba hari inzu zihegereye kandi hakaba hasa neza cyane kubera isuku iharangwa .

Umukandida wiyamamariza kuba perezida wa repubulika w'ishyaka rya green gurini pate Frank Habineza ari kwiyamamaza abanyamakuru bagenda bamufotora abamwungirije n'abamuherekeje bamugaragiye abaturage bitabiriye inyuma ya senyegi yaho ari bitabiriye baje kumva ibyo abagezaho.

Inzu nini kandi ndende yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amagorofa atandukanye. Ikorerwamo ibintu bitandukanye yaba ubucuruzi cyangwa ahatangirwa amacumbi y'igihe gito cyangwa igihe kirekire.

Amaduka ari ku murongo umwe kandi atanga ubufasha butandukanye, yaba mu byerekeranye no gucuruza ibyo kurya ndetse no gutanga ubundi bufasha butandukanye ku baturage.

Inzu yubatse neza mu buryo bwa kijyambere ifite amagorofa atandukanye, ikaba itangirwamo ubufasha butandukanye, urugero nko kuba babonamo ibyumba bisa neza, kandi bifite isuku hari n'umutekano.

Umuhanda unyurwamo ibinyabiziga iruhande rwaho hari inzu nziza kandi yubatse mu buryo bwa kijyambere, ikorerwamo ibintu bitandukanye yaba ibikorwa by'ubucuruzi, cyangwa itangirwamo ubundi bufasha butandukanye.

Inzu nini kandi nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amarange asa neza, ubusitani bwiza cyane, ukaba ushobora kuhasanga ubufasha butandukanye by'umwihariko mu byerekeranye n'amacumbi meza kandi asa neza, kandi ukaba wumva utuje, mu gihe uri aho hantu kuko hari umutekano.

Umujyi wa Kigali mu masaha ya nimugoroba, ahari urujya n'uruza rw'abantu ni'ibinyabiziga, bamwe berekeza mu ngo zabo, abandi ariko batembera, abandi bari mu kazi kabo ka buri munsi.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, hirya yaho hari inzu nziza kandi isa neza, hakaba n'ibiti bituma haboneka umuyaga mwiza cyane.

Ahantu heza cyane hasa neza kandi hafite isuku n'umutekano, hafi yaho hari inyubako nziza kandi nini yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, yaba ubwo gutanga ubufasha ku byerekeye ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa.

Amazu menshi kandi yubatswe mu buryo bugezwebo, ajyanye n'igihe, yubatse neza, ku buryo uhageze cyangwa uyabonye abona yuko anafite isuku.

Inzu nini kandi yubatswe mu buryo bugezweho icururizwamo ibintu bitandukanye, hakaba harimo n'ibikoresho by'ubwubatsi. Urugero amakaro, ubwiherero bugezweho, ndetse hakaba hatangwa n'ubundi bufasha bwiza kandi bunogeye abaturage.

Umuhanda unyurwamo ibinyabiziga ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, bari kugenda bajya muri gahunda zabo, cyangwa akazi kabo ka buri munsi, hakaba n'ibikorwa remezo bifasha abaturage kubona umuriro mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ku ruhande hakaba unyurwamo n'abagenzi bajya mu mirimo yabo ya buri munsi. Hirya yaho kandi hejuru hakaba hari undi unyura hejuru nawo ukanyurwamo n'ibinyabiziga kugira ngo hirindwe umuvundo.

Umuhanda mwiza kandi usa neza, ufite ubusitani bwiza kandi usize amarangi agaragara, ku buryo abatwaye ibinyabiziga bamenya imbibi z'ahantu igarukira ndetse n'abanyamaguru bakabona aho bambukira mu buryo bworoshye.

Ihuriro ry'imihanda aho ibinyabiziga bigenda binyuranamo, abanyamaguru bambuka banyuze mu mwanya wabo wabugenewe.

Umuhanda usa neza cyane, uriho inzira y'abanyamaguru ndetse n'ubusitani bwiza kandi ukaba unyura hejuru mu rwego rwo gutuma aho uri hasa neza.

Umuhanda usa neza cyane unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'amazu yubatse neza mu buryo bwa kijyambere.

Umuhanda w'ibyerekezo bitandukanye unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga mu cyerekezo kimwe n'ibindi mu kindi cyerekezo, hakaba n'ubusitani bwiza cyane n'ibiti bitoshye bituma haboneka umuyaga mwiza.

Ahari ubusitani bwiza cyane busa neza kandi bukorewe isuku, ndetse n'inzira y'abanyamaguru isa neza ku buryo uhanyura wese yumva yishimye.

Umuhanda urimo kugendwamo n'ibinyabiziga kimwe, hamwe n'abagenzi bari kujya mu kazi kabo ka buri munsi. Ku ruhande hakaba hagagaraho ibiti ndetse n'ubusitani.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga yaba ibica munsi y' iteme n'ibinyura hejuru yaryo kugira horoshywe inyuranaho ryibinyabiziga kandi hirindwe umuvundo wabyo.

Umuhanda unyurwamo ibinyabiziga, ndetse n'undi ku ruhande rwawo unyurwamo n'abanyamaguru, hejuru hakaba iteme rinyurwaho nanone n'ibinyabiziga mu rwego rwo kwirinda umuvundo.

Umuhanda usa neza kandi cyane iyo ufite ubusitani bwiza ndetse ushobora kuba wanyurwamo n'ibinyabiziga byaba ibiza cyangwa ibigenda mu buryo bugezweho kandi bufite umutekano, kuko nta muvundo w'ibinyabiziga uboneka mu muhanda.

Inzira ibugenewe y'abanyamaguru aho bambuka bava ku ruhande rumwe rw'umuhanda bajya ku rundi nta nkomyi kandi abatwaye ibinyabiziga bakabaha inzira.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye kandi usa neza, ufite ibyerekezo bitandukanye, ubusitani bwiza ndetse n'aho umugenzi ashobora kunyura n'ahandi utwaye ibinyabiziga byaba ibyoroheje ashobora kunyura nta kibazo.

Umuhanda ukoze neza kandi usa neza, mu cyerekezo kimwe. Ukaba usize amarangi atandukanye, ayobora utwaye ikinyabiziga, amerekezo ashobora kunyuramo, kandi bikorohereza umugenzi kumenya aho ashobora kunyura naho atanyura.

Aho abagenzi bahagarara, bategereje kubona imodoka rusange zagenewe gutwara abagenzi, kandi hatekanye ku buryo nta wabasagarira.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, hakaba hacamo ibinyabiziga bishinzwe kwikorera imizigo iremereye cyangwa miremire, ndetse n'ibitwara abagenzi mu buryo bwa rusange n'ibindi bitwara abagenzi mu buryo bwihariye.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse ukaba ukozwe ku buryo uhurirwamo n'indi mihanda itandukanye, aho ibinyabiziga bishobora kunyuranyuranamo neza kandi bikarinda umuvundo w'ibinyabiziga mu gihe bibaye byinshi mu muhanda.